Inzu y'ikigo cy'amashuri igaragara ni uko ifite inyubako nini cyane, iyo abanyeshuri bigiramo nk'uko bigaragara ikaba iriho urukuta n'ibyuma bigiye bitandukanye, akaba ari inzu cyangwa inyubako abanyeshuri bafatiramo amasomo.

Ikigo cy'amashuri cyigisha amashuri abanza, uko bigaragara akaba ari amashuri afasha mu kwigisha abana batoya, cyane mu bihe mu bihe by'amashuri yabo, mu bihe by'amashuri matoya.

Iminyega y'abana iboneka cyane cyane ku bigo bya pirimeri, ku bigo bya pirimeri cyangwa ku bigo by'amashuri y'inshuke, aho haba hariho ibyicundo bigiye bitandukanye abana bicundaho, bikaba bigaragara imbere yabo harimo n'ubusitani bwiza cyane.

Umuntu uhagaze imbere y'inyubako, bigaragara ko ari inyubako ziteye imbere cyane, inyubako z'ahantu ho mu mujyi, zishobora kuba ari inyubako zikorerwamo ubucuruzi, cyangwa iyindi mirimo itandukanye, ariko inyubako zo mu mujyi munini.

Ikigo cy'amashuri abanza, amashuri abanza ya pirimeri, nk'uko bigaragara akaba ari ahantu abanyeshuri bashobora kwigira, cyangwa gufatira ubumenyi, kigaragazwa n'ubusitani bwiza buri imbere y'amashuri yabo, kikaba ari ikigo gisa neza kandi ubona ko gifite n'ibibuga.

Ikigo cy'amashuri cyigisha amashuri abanza, amashuri icyiciro gito cy'abanyeshuri akaba agaragaza ko ari ahantu ibiro by'abayobozi bibonerwa cyangwa ahantu abayobozi bakuru b'ikigo baba, deregiteri cyangwa ushinzwe ikigo bakigura aho bakorera aho abarizwa mu kigo.

Ikigo cy'amashuri bigaragara ko aba ari ikigo cya Leta, kigaho abana cyangwa abanyeshuri mu kiciro cya mbere, cyangwa ikiciro cya kabiri cy'amashuri abanza n'ayisumbuye. Kuko bigaragara ko ari ahantu hatari mu mujyi cyane, hadafite amashuri ya kijyambere, ariko akaba ari ikigo cy'amashuri.

Abanyeshuri bari mu nzu y'aho batunganyirizamo imisatsi, bikaba bigaragara ko bari kwiga, ari abanyeshuri biga ibijyanye no gukora mu mutwe cyangwa gusuka, ndetse n'ibindi byo gutunganya imisatsi y'abantu.

Inzu yo kwigiramo uko bigaragara akaba ari inzu, irimo intebe ndetse nameza, ikaba igaragara ko ari ahantu, higiraga abana bomu wa mbere cyangwa bo muri garidiyene, nkuko' bigaragara ko harimo udukinisho, ndetse n'ibipupe bya bana.

Abanyeshuri biga ibintu bijyaniranye n' ibya mudasobwa. Ku bigaragara bakaba bari mu cyumba bigiramo cyangwa cyo gukoreramo ubushakashatsi ku masomo yabo y'ibijyaniranye n'ibya mudasobwa. Bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'impuzankano.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro，bari gukora ikintu kimeze nk'ikimashini，cyangwa moteri， bakaba bari kugaragaza ko haribyo bize， bari gukora nk，uko bigaragara ku ifoto，bakaba bari gukora iyi moteri， bafite ibikoresho nk'amatoronovisi， ndetse n'amapense.

Umubaji ubaza ibikoresho byo mu mbaho, akabikura mu mbaho. Uko bigaragara yifashisha iranda, akaba ari gutunganya urubaho ashaka kubazamo igikoresho runaka yifashishije igikoresho cy'iranda, kinoza cyangwa kigaharura imbaho.

Umunyeshuri cyangwa umuntu kwiga gukoresha imashini z'ubwoko bugiye butandukanye bugaragara ko ari umuntu wiga ibintu bya elegitoronike cyangwa ibintu by'amamashini. Akaba ari gukora imashini ku bigaragara ko yambaye isarubeti cyangwa ambaye igikuri cy'akazi yambaye n'udupfukantoki.

Ikigo cy'amashuri biragaragara ko ari ahantu abanyeshuri bari kurya, ahitwa muri refe cyangwa mu nzu y'abanyeshuri bariramo. Bakaba bari kurya imineke bafite n'andi mafunguro agiye atandukanye ku meza yabo.

Abanyeshuri biga ibintu bijyaniranye n'imyuga n'ubumenyingiro, aho bigaragara ko bari gukanika imodoka, imodoka yapfuye, bakaba kwiga uburyo bwo gukanika cyangwa bwo gukora imodoka ishobora kuba yapfuye, bakaba bari kureba uko babasha kuyikora.

Abanyeshuri biga mu myuga mu mashuri y imyuga n'ubumenyingiro, bari gukora ibikoresho runaka nkuko bigaragara bafite ibikoresho bitandukanye mu ntoki zabo. Akaba ari ahantu bakorera bigaragara ko ari ikigo cya mekanike cyangwa se abantu biga gukanika ibintu binjyanye n'imodoka.

Abaganga bari mu cyumba cyo gukoreramo ubushakashatsi. Biragaragara ko ari ahantu bakirira abantu baje gushaka serivisi runaka, harimo n'izo kwivuza. Kubera ko ari abaganga bakora mu bintu by'imiti.

Umuntu uri gushushanya，ibintu ari kubona kuri mudasobwa，nk'uko bigaragara akaba ari kureba ibyananiranye, ibiri mu mashini，yarangiza akabishushanya. Nk'uko bigaragara akaba ari umuntu wiga ibintu bijyaniranye no gutunganya ibishushanyo mbonera，cyangwa gukora, ibyerekeranye no gushushanya amazu.

Umuntu uri gukora imirimo yo gusudira nkuko bigaragara aha, akaba ari abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga ndetse n'ubumenyingiro, bari gukora ibikorwa byo gusudira nk'uko bigaragara, bakaba bafite ibikoresho, bambaye n'imyenda yabugenewe n'amarineti, cyangwa ibyo kwikingira ku maso byabugenewe.

Abanyeshuri bari kwiga gukora ibintu bijyaniranye n'amashanyarazi, nk'uko bigaragara ko abanyeshuri biga mu bigo by'amashuri by'imyuga ndetse n'ubumenyingiro, bakaba bari kwiga ibintu byo gukanika amashanyarazi n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Abanyeshuri biga ibintu bigendanye no gukanika ndetse no gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga nkuko bigaragara bakaba bari gukora, bari kwitoza, bari kureba ibigendanye n'ibyo bakora. Nkuko bigaragara bakaba ari abakozi bakora ibigendanye ari abanyeshuri biga ibigendanye gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri uri kubona ko bari gukora bakora ibintu bijyaniranye, bari gukora gukanika. Abantu biga mubigo by'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro gukanika ibijyaniranye n'imodoka, ndetse n'ibindi bintu bya tekinoloji nk'aho bari gukora imodoka.

Abanyeshuri bari kwiga, nkuko bigaragara bakaba bari mu mashuri ya segonderi, bakaba bari kwiga ibintu bijyaniranye no gushushanya cyangwa ubugeni, nkuko bigaragara ko bafite umwarimu wabo ari kubahugura, ari kubereka uburyo bikorwa.

Inzu yo kwigiramo, iyo abana bigiramo uko bigaragara, akaba ari ahantu ho kwigira hari intebe ndetse n'ameza, hakaba harimo ibikoresho byo kwigiraho, harimo nk'ibitabo n'ibindi n'amakayi n'ibindi bigiye bitandukanye, byo kwifashisha mu gihe cyo kwiga.

Abantu bari kubaka, uko bigaragara bakaba bari kwiga ibintu bijyanye n'ubwubatsi, uko bigaragara bakaba ari abanyeshuri biga ibintu byo kubaka mu kigo cy'amashuri, bigaragara n'uko bambaye isarubeti, kandi bakaba bari kubaka ikintu gisa n'igipangu kinini cyane.

Umubyeyi ukora aka kazi ko kogosha bigaragara ko ari kogosha umugabo, akaba afite tondezi cyangwa akorera ahantu imirimo yo kogosha ndetse no gusuka imisatsi. Akaba ari muri saro dekwafire kuko bigaragara akaba ari umuntu wabigize umwuga akora imirimo yo gukora imisatsi.

Abanyeshuri bari kwiga ibintu ibijyaniranye no gutegura ndetse no gutegura ibintu bigiye bitandukanye nk' uko bigaragara ko bari gufata ibintu bimeze nk'imiti bakabivanga n'ibindi bari gutegura . Bari gutegura ibintu byabo cyangwa bari gukora ibintu bari kwiga.

Ahantu bakorera imodoka, bigaragara ko iri ishuri ryigisha ubumenyi ,imyuga n'ubumenyingiro ririmo aho bakorera imodoka ,abanyeshuri uko bigaragara bakaba bari gukanika imodoka ,ndetse bakaba bafite uburyo butandukanye bagenda babikora ,nk'ahantu habugenewe gukorera izi modoka akaba ari abanyeshuri, akaba ariyo modoka abanyeshuri bigiraho

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ,bari gukora igikoresho ubona ko bafite ibintu bigiye bitandukanye, bibafasha mu gukora cyangwa mu kwiga amasomo yabo nk'uko bigaragara bakaba bari gukora ibijyaniranye n'ibyo biga.

Abanyeshuri biga ibijyaniranye no gutunganya no kwita ku bintu, bakaba bari gukora igikorwa cyo kwiga ibijyaniranye n'ubutaka, ndetse n'ibindi nk'uko bigaragarako bari kureba hasi.

Abanyeshuri biga ibintu bijyaniranye no gutunganya，no kwita ku biryo，ibyo bita fudu porosesingi，bakaba bari gukora， bari gutegura ibintu， bari kureba uko babyize，bakaba bari gukora igikorwa cyo mu mashuri y'ubumenyi ngiro，bakaba bari kubikora kuko babyize.

Umunyeshuri uri kureba muri mikorosikopi, igikoresho cyifashishwa mu kureba ibintu, utuntu duto tutaboneshwa n'amaso. Nk'uko bigaragara akaba umuntu wiga mu bintu bigendanye no gutunganya ibiryo cyangwa guteka, akaba ari kureba ibintu muri mikorosikopi ari kumwe na bagenzi be benshi.

Abanyeshuri, abantu bari gukora ubushakashatsi ku bihingwa, kuko bigaragara ko bari mu murima, akaba bafite ibikoresho bigiye bitandukanye, bigara bari gukorera ubushakashatsi, bakaba bari kureba ku bimera, bakagira n'ibintu bashyira ku mababi yabyo, yi ku mababi y'ibyo bimera.

Abanyeshuri bari kwiga ibijyaniranye n'iby'amashanyarazi ,bari gukora bambaye iby'amasarubeti, biga iby'amashuri y'imyuga n'umumenyingiro ,aho kwiga gukoresha ibintu runaka, aho bafite imashini zigiye zitandukanye, zitanga umuriro ndetse hari n'izindi zigiye zitandukanye, bakaba bari kwiga kuzikora cyangwa kuzikoresha mu buryo bugiye butandukanye.

Abanyeshuri bari mu ishuri, uko bigaragara bari kwiga ibijyananye n'ikoranabuhanga, kuko bose bicaye imbere ya mudasobwa, bari kwiga ibijyanye na mudasobwa, bakaba bambaye udupfukamunwa bigaragara ko bari nko mu bihe by'icyorezo cya kovidi cyangwa ibindi byorezo.

Abanyeshuri biga imirimo ijyaniranye n'ubwubatsi. Bigaragara ko bagiye gupima ikibanza cyangwa bari gupima ahantu inzu izajya, nk'uko bigaragara ko bafite ibikoresho bitandukanye harimo nivo ndetse n'amakamba n'udukoresho two gushinga.

Abanyeshuri biga mu bigo by'imyuga ndetse n'ubumenyingiro ,Uko bigaragara bakaba bari abanyeshuri biga ibintu bijyaniranye no gusudira ibyuma, bifashishije ingufu zituruka ku mashanyarazi nk 'ukobbigaragara. Bakaba bari gukora ibikorwa byo gusudira inzugi.

Abubatsi bari i ruhande rw'inyubako bigaragara ko bari kureba aho igikorwa cyo kubaka kigeze, uko bigaragara bakaba hariho abantu bambaye imyenda y'akazi bambaye amajire ndetse akaba bambaye n'ingofero, akaba ariho bubaka uko bigaragara bakaba bambaye imyenda bari imbere y'icyubakwa.